Icyumba kirwariyemo abadamu giteye irangi ry'umweru n'ubururu, gihanitsemo supaneti zidufasha kwikingira imibu kugira ngo zitadutera Malariya ndetse tukazahara cyane.

Abaganga bari mucmba cyiza, bambaye imyambaro itukura, basa n'abakozi ba Croix Rouge umuryango ufasha imbabare ndetse bari kuvura abantu.

Uducupa amakarito arimo imiti ifasha abarwayi kwivuza mu gihe barwaye, kugira bakire vuba bongere basubira mu kazi kabo ka buri munsi, bajye kwiteza imbere ,bateze imbere n'imiryango yabo.

Muganga wambaye imyambaro y'akazi ,uhetse ipombo ,ugiye gutera umuti, mu bitaro ,kugira ngo yice udusimba ndetse yice n'utundi dukoko dushobora kwanduza abarwayi.

Abaganga wambaye imyambaro y'umuhondo n'umweru ndetse n'umutuku, babyukiye mu kazi ko gukora ahantu hagize ikibazo, ha ashobora kuba hari uburwayi, ndetse hashobora kuba harwariye umuntu ufite uburwayi bwihariye.

Abaganga babiri bambaye imyambaro y'akazi, bashyize umurwayi ku gitanda cyicunga, bamujyanye mu kindi cyumba kugira ngo babone uko bamufasha, bamuvure, akire kandi asubire imuhira.

Abaturage ba burikiye mu gikorwa cyo kwipimisha indwara zitandukanye, ndetse gukarabaraba muri kanagerukabe kugira ngo birinde indwara zandurira mu mwanda, ndetse binabafashe mu kongera ubwirinzi.

Abaganga bari mu cyumba hamwe n'abarwayi, baje kubafasha kugira ngo babavure, umwe yambaye itaburiya ishushanyijeho umusaraba n'undi yambaye itaburiya y'umweru ndetse bafasha abarwayi buri munsi.

Abaganga bambaye imyambaro y'akazi myiza cyane ibafasha kugabanya ubwandu bakura ku murwayi, bari mu cyumba kiza baje gufasha umuntu urwariye muri iki cyumba kugira ngo akire.

Inyubako nini cyane yubakishijwe ibyuma ndetse ishakaje n'amabati, yegereye n'ahantu heza hateye umucaca, ndetse n'amazu y'abaturage azasakajwe ama mabati y'ubururu, ndetse ateye n'irangi ry'umweru.

Abaganga bambaye imyambaro y'akazi ndetse n'uturindantoki, bari mu kazi kabo ka buri munsi, bari mu cyumba cyiza, giteye irangi ry'umweru kinasa neza.

Abaturage babyukiye mu rugendo rwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Nyagatare mwaka w'igihumbi kimwe magana kenda mirongo ikenda na kane, igihe u Rwanda rwari rwugarijwe n'umwijima w'icuraburindi.

Abanyeshuri n'abarimu babyukiye mu gukina basket n'indi mikino bifasha abanyeshuri kwisanzurana ba mwarimu kumva ko nyine ari inshuti zabo bakabisanzuraho bakaba banababwira ibibazo byabo.

Abaganga bambaye imyambaro y'akazi, bari mu cyumba kirwariyemo umurwayi, bari kumwitaho kugira ngo bamuvure akire kandi akirire ku gihe asubire mu buzima busanzwe, ajye gukora imirimo ye.

Abaganga bari mu cyumba, aho bavurira abarwayi, bambaye imyambaro y'akazi, isa n'ubururu ndetse bari kwita ku murwayi kugira ngo akire vuba, anazahuke.

Abaturage bari mu kigo cy'amashuri kiyiza, cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse hari n'igiti cyitwa umuyenzi, kiza kigari cyane kibereye kugamamo igicucu ndetse kinafasha n'abantu kugama igicucu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri kumwe n'umurwayi, ari kugira ngo amwambike igipimo gipima umuvuduko w'amaraso, kugira ngo amenye uburyo amaraso ye atembera mu mubiri, ndetse abone n'uko amuvura.

Mu modoka y'imbangukiragutaba hamwe imbere harimo igitanda gifite amapine ndetse n'akadobo k'umuhondo, bifasha abaturage kugeza kwa muganga umuntu mu buryo bwihuse.

Abaturage benshi bahagaze imbere y'ibitaro, bambaye imyenda myiza itandukanye, imwe y'amabara y'umweru, amabara y'umukara, ndetse bahagaze no ku mapave asa neza, ndetse bakaba bahagaze n'imbere y'inzu yubakijwe amatafari ahiye, ishakaje amabati y'ubururu.

Umugabo n'umugore umwe asa naho ari guha undi seretifika yuko hari ikintu kizima yakoze cyangwa se hari ibintu yatsinze, asa n'uwishimye, bose bari guseka, bari kumwenyura bameze neza.

Icyumba cyo kwa muganga kiza cyubatse neza gifasha umurwayi kwihererana na muganga, kugira ngo amubwire ikibazo afite ndetse na muganga amuvure neza atikanga.

Umugabo ufashe mikoro wambaye karuvati akaba yambaye n'ishati nziza, ari kugira abantu inama uburyo bakwitwara mu gihe barwaye kugira ngo birinde n'indwara kugira ngo bigabanye uburyo abantu bapfa buri munsi.

Abaturage benshi babyukiye kwa muganga, baje gushaka serivisi zo kwivuza zibafasha mu gukira indwara barwaye, kugira ngo basubire mu kazi kabo ka buri munsi bajye gukora biteze imbere.

Abagabo bamwe bambaye amataburiya abandi bambaye amashati arimo n'imironko, bahagaze imbere ahantu bakirira abantu bategereje kugirango babahe serivisi ndetse babakire kugira ngo bo bitabire gahunda z'uwaje.

Icyumba kinini, giteye irangi ry'umweru, kirimo n'amadirisha meza, kirimo ibitanda, birwariyeho abarwayi ndetse bibafasha mu kuvurwa mu buryo bworoshye, ba muganga babasanga aho bari.

Icyumba cyiza kiteye irangi ry'umweru kirimo imyenda y'umutuku n'iy'umweru, kirimo ibitanda byiza ndetse byifashisha mu gihe bari kuvura abarwayi bakanaryamamo bimeze neza.

Abaturage benshi baje kwa muganga, baje kuyihuza, muganga yaje gufata ibifishi byabo kugira ngo abijyane ahabugenewe, babone uburyo bajya gufata imiti ndetse n'ibizami kugira ngo babahe umuti wo kunywa.

Abagabo babiri umwe yambaye umupira w'umweru, yambaye n'ikoti ry'umukara ryanditseho FPR, undi yambaye umupira w'umukara bari kumuhereza igikombe.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya Nyagatare aho biherereye, munsi yacyo harimo abagabo n'abagore bamwe bambaye amataburiya abandi bambaye imyambaro isanzwe bahagaze muri kaburimbo isa neza imeze neza.

Umugabo uhagaze imbere y'abaturage usa naho ari kubagira inama ku buryo bakwitwara, mu gihe barwaye ndetse no mu gihe abarwaje ababo kugira ngo birinde indwara za hato na hato banirinde kuzaharira mu rugo.

Umuganga uri gutanga imiti ku barwayi barwaye kugira ngo bayirye bivuze, ndetse bakire batahe mu rugo bajye kwiteza imbere no gukora imirimo yabo ya buri munsi mu kazi kabo.

Icyumba kiza giteranye ry'umweru, kirimo intebe nziza ndetse kirimo n'ibikoresho byo kwa muganga, ni ibikoresho bifashisha igihe bari kubaga umuntu wagize ikibazo, gisaba kumubaga.

Abamama babiri n'umwana umwe, baje kwa muganga kwivuza uburwayi barwaye, kugira ngo babone uko bakira basubire mu kazi kabo ka buri munsi, biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo.

Abaturage bari kumwe na muganga bari mu cyumba cy'abana bavurirwamo baje kubareba kugira ngo bamenye uburyo bameze ndetse banabafashe gukira vuba banabaganiriza banabahumuriza.

Umugore wicaye ku ntebe ufite n'umusatsi w'umukara, wambaye n'amaherena, wambaye itabuririya y'umweru n'uturindantoki tw'ubururu, ari muri laboratwari ari gukora ubushakashatsi.

Umuntu wambaye uturindantoki tw'ubururu, ari gupima ibipimo yafasha abarwayi, ari muri raboratwari kugira ngo abisuzume arebe indwara barwaye ndetse abone uko abaha imiti.

Icyumba kiza, giteye irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho byinshi cyane, byo bapimisha indwara, mu gihe bafashe nk'amaraso, ibicandwe se cyangwa se umusarane ku murwayi.

Abaganga bari muri laboratwari, bari gukora imiti ndetse bari gufafa n'ibipimo by'abarwayi, kugira ngo babone uburyo babavura, banabahe n'imiti ikwiye mu gihe gikwiye.

Umumama uteze igitambaro cy'umukara wambaye agapfukamunwa k'ubururu, wambaye itaburiya y'umweru, ari imbere ya mashini ndetse ari muri raburatwari, igihe ari gukora ubushakashatsi bujyanye n'indwara.

Muganga uri muri laboratwari, uri gupima ibipimo yafasha abarwayi, kugira ngo abone uburyo abaha imiti, kugirango bivuze ndetse bakire basubire mu kazi kabo ka buri munsi.

Umuganga urangije gufata amaraso, agiye kuyareberamo nimba hari uburwayi burimo, arayarebera muri mikorosikopi ireba ibintu bitagaragara ndetse ifasha abarwayi n'abaganga mu kumenya udusimba cyangwa se mikorobe zitagaragara.

Umugabo wiyogosheshije ndetse wambaye n'itebura y'umweru, uri mu bikoresho byo muri laboratwari, arimo arareba, aranasuzuma ibipimo yafasha abarwayi kugira ngo amenye imiti abaha.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru, bari muri laboratwari, barimo bapima, amaraso n'ibindi bizamini bafashe abarwayi, kugira ngo bamenye imiti bari bubahe.

Umugabo munini uri imbere ya mikoro wambaye umupira w'ubururu, inyuma ye hariyo icyapa cyanditseho RBC, ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, ari kubwira abantu uburyo bagomba kwirinda indwara.

Umuganga urimo ukingira abana kugira ngo abarinde indwara nyinshi zitandukanye, harimo malariya, harimo kubakingira iseru ndetse n'izindi ndwara, zifata iyo mwana atikingije.

Umubyeyi uri kugaburira umwana we kugira ngo agire imbaraga, agire n'uburyo akura neza kugira ngo azavemo umwana mwiza w'umugabo kandi azagirire akamaro umuryango w'igihugu.

Umubyeyi uri kumwe n'abana, arikubaha amata kugira ngo bazakure neza bafite intungamubiri mubiri umubiri wabo, ndetse bazabe bafite amafu n'imba zo gukorera Igihugu cyabo.

Umumama uryamye ku gitanda ari n'umwana wiwe ndetse kiriho n'ishuka y'ubururu, ari mu cyumba giteye irangi ry'umweru n'iry'umuhondo ndetse arishimye, ashimishijwe nuko afite umwana we.

Abarwayi barwariye mu cyumba cyiza kirimo supanete gifite irangi ry'umuhondo n'iry'ubururu ribafasha kugira ngo barwanye malariya banarwanye n'izindi ndwara zitandukanye ziterwa n'imibu.

Amafoto y'abantu batanga ikiganiro cyitwa twite ku buzima bwo mu mutwe, ni ikiganiro gifasha abantu kwita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe ndetse bikanabafasha mu kumenya ko bitabwaho, hariho na nimero zo wahamagara mu gihe ugize ikibazo, icumi makumyabiri na kane.

Abagabo bambaye ikabutura zisa iroza n'imipira y'umweru ndetse bambaye n'udupfukamunwa, bicaye mu itente ryiza ry'umweru, bari gukoma amashyi bishimiye ibyo bari kubabwira.

Abaturage barimo abazungu ndetse n'abirabura bahagaze ku mapave meza, barimo bari bari kugirana inama uburyo bagomba kwita ku bwenge bwabo cyangwa se kwita ku ndwara zo mu mutwe.

Umujyanama w'ubuzima wasanze abaturage mu rugo arimo abagira inama z'uko bakwirinda uburwayi ndetse anababwira uburyo bafasha abantu bahuye n'uburwayi, harimo abarwaye Malariya n'ubundi burwayi.

Inzu irimo abaturage benshi baje mu nama, kugira ngo bababwire uburyo bagomba kujya bafashanya, kugira ngo bavurane, mu gihe barwaye n'ibyo babonye umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, ndetse bari mu cyumba kirimo n'idarapo by'u Rwanda.

Abaturage bahagaze abandi basutamye basa neza bari imbere y'icyapa cyanditseho Isange One Stop Center, ni ikigo gifasha abantu mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Umumama wambaye akenda ka mangure k'umuhondo ufite n'umusatsi mwiza ari muri farumasi aho acuruza imiti kugira ngo abarwayi bayigure bayinywe bakire ndetse na we bimuteza imbere.

Inzu bacururizamo imiti bita farumasi ifasha abaturage mu kwivuza no kuvuza ababo kugira ngo bagabanye uburwayi ndetse boroherwe banasubire mu kazi kabo ka buri munsi mu gihe bivuye.

Ivuriro rya Nyagatare rifasha abarwayi kwivuza kugira ngo bakire bave mu bitaro bajye kwiteza imbere bateze imbere n'imiryango yabo, ndetse bibafashe mu kubaho.

Farumasi ni inzu icuruza imiti, ifasha abarwayi mu kuza kuyigura kugira ngo babone uburyo bivuza ndetse basubire mu kazi kabo ka buri munsi, inafasha na nyirayo kwiteza imbere no guteza imbere umuryango we.

Inyubako nini cyane, iteye irangi ry'umweru, irimo imiti, aho bayicururiza, ndetse ifasha abaturage, mu kuza kuyigura kugira ngo bivuze, ndetse bavuze n'ababo, kugira ngo babone uburyo biteza imbere.

Ababyeyi babiri bari muri farumasi bafite umusatsi mwiza w'umukara umwe yambaye itaburiya y'umweru undi akaba yambaye umupira w'umukara, ndetse ikaba ifasha nyirayo kwiteza imbere ikaba inagurisha imiti yo kwivuza ku bantu.

Farumasi nin inzu icuruza imiti myinshi itandukanye, harimo ivura malariya, igituntu, umutwe, mu nda, ndetse ifasha abaturage mu kwivuza kugira ngo basubire mu kazi kabo ka buri munsi.

Abasore babiri n'umukobwa umwe, bambaye iyi imipira myiza y'umweru yanditseho ngo wani helifu; asobanura ko ari ubuzima bumwe, cyangwa se kugira ubuzima bungana, ndetse begereye na tente yubatse neza.

Abasore babiri bafashe icyapa cyanditseho ngo ni uruhare rwa buri wese gukumira, kurwanya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, inda zitatega ziterwa abangavu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Abasore bambaye imipira isa, bahagaze imbere y'ameza, basa n'aho bari kuririmba muri kampeyini, kugirango bamamaze ubuzima, cyangwa se bashishikariza abantu kwita ku buzima bwabo.

Umugabo uri imbere y'abaturage ari kubagira inama y'uko bagomba kwitwara ndetse ari kubabwira uburyo abantu bagakwiye kubanaho mu mahoro ari muri kampeni bari munsi y'inzu iteye irangi ry'umweru.

Abaturage bari mu cyumba cy'amashuri, bahuye baje kuganira ku buzima bwabo bwa buri munsi, ndetse baje no kugirana inama kugira ngo bamenye uko bajya bitwara, kugira ngo birinde ihungabana.

Abaturage n'abapolisi babyukiye kwa muganga, baje mu gikorwa cyo kwipimisha, kwivuza se, kugira ngo birinde indwara zandura mu buryo bwinshi butandukanye, banamenye uburyo bahagaze mu buzima bwabo.

Abantu bari mu cyumba kinini cyubatse neza, giteye ubwuzu kukireba no kucyicaramo ndetse giteye n'irangi ry'umweru n'abicayemo baratuje bari kumvv ibyo bari kubabwira ndetse n'ibyo babagiramo inama.

Ibikoresho bya kera bakoreshaga mu gihe babaga bari gukora umuti wo kwivuza, ndetse bawukoraga mu byatsi kugira ngo barinde amagara yabo, barinde ubuzima bwabo.

Ibiti by'imiyezi, ni ibiti byiza biba bifite amata ndetse abaturage babyifashisha iyo bagiye kuzitira urugo rwabo kugira ngo habe hihishe ndetse hiherereye.

Amacupa ari mu muti bakoraga kera abawukoze mu bimera, wafashaga abaturage kwivura ndetse banahagarika indwara zabafataga, kuko icyo gihe nta byuma by'ikoranabuhanga byabagaho.

Umubirizi ni ibiti bifashisha bashingirira ndetse bikanadufasha mu gihe turi gukora umuti wa Kinyarwanda kuko ikiza inzoka no gucibwamo no kuruka.

Umugabo wambaye ibirenge ndetse uri gusekura ibyatsi, ibyatsi byo kwifashisha kuko afite uburwayi ku kuboko ahantu hatandukanye.

Ibitovu n'ibyatsi bigira amacumu ndetse ihene zirabirya zikaragukunda cyane, mu gihe bazijyanye ku ziragira mu ishyamba cyangwa se mu mirima.

Uburwayi bw'ibiheri, buri kuri uyu mubiri ndetse n'uburwayi buvurwa bugakira kandi umuntu akaba yasubira uko yari ameze, mu gihe cyashize ndetse akamera neza, akongera agasa neza.

Umubyeyi ufashe umwana, asa naho arwaye yicaye ku gitanda kiriho, ishuka ry'ubururu, ari kwa muganga, yagiye kumuvuza kugira ngo umwana yongere atere agatege, yongere abeho neza.

Abaturage babyukiye kwa muganga, baje kwivuza, hari n'inzu iteye irangi ry'ubururu, isakaje amabati y'ubururu, n'inyuma yayo hakaba hari ibiti byiza, bitanga umwuka ndetse bikurura n'imvura.

Abaturage baje kwa muganga, baje kwigoka kugira ngo babigishe neza uburyo bakwitwara mu gihe barwaye ndetse barwa n'indwara nka malariya, igitunu n'izindi zitandukanye.

Amapave meza ndetse na moto iparitse n'inzu iteye irangi ry'umweru ndetse iriho n'icyapa cyanditseho, ifasha abacuruzi gucuruza ibintu byabo biteza imbere bateza n'imbere imiryango yabo.

Inzu iteye irangi ry'ubururu, irimo n'amadishya meza arimo ibirahure, ifite kandagira ukarabe, ndetse ifite, yometse ku gikuta n'inyandiko, isakajwe n'amabati y'ubururu.

Umubyeyi ukwitiriye umwana akenda k'umweru, afite n'umusatsi w'umukara, ari mu cyumba kirimo irangi ry'ubururu, umuhondo, uvuye kwa muganga cyangwa se akaba mu bitaro, yaje kwivuza cyangwa se kuvuza umwana.

Amapave meza ndetse n'inzu ifite korutire nziza, iteye irangi ry'umweru, ifitemo n'ibyuma bite irangi ry'icyatsi, isa naho ari iy'ubucuruzi, ifasha abacuruzi gucuruza.

Umuganga wambaye tabune y'umweru n'ipantaro y'icyatsi, ari mu cyumba cy'umurwayi, ari gutegura kugira ngo abone uburyo avura abarwayi ndetse anabafashe gukira kugira ngo basubire mu mirimo yabo.

Inzu nziza iteye irangi ry'ubururu iriho abantu benshi baje gushaka serivisi, ifasha abaturage kugira ngo babone serivisi mu buryo bworoshye, bidafashe umwanya muremure banihuta baniruka.

Imifuka myinshi cyane irimo imiti y'amatungo ifasha abaturage mu kuvura amatungo yabo kugira ngo bayarinde gupfa kandi anabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abaturage baje kwivuza bari mu bitaro ndetse hari umugabo wambaye, ari kubagira inama kuburyo bagomba kurya imiti ndetse bikabafasha gukira, bari mu cyumba cyiza giteye irangi ry'ubururu.

Inyubako nziza iteye irangi ry'ubururu isakajwe amabati y'ubururu, ifasha abaturage mu kwivuza batagiye kure bitabasabye gufata urugendo bajya ku bitaro bikuru.

Umubyeyi wambaye ibitenge byiza ndetse ari imbere y'inzu iteye irangi ry'ubururu, isakaje n'amabati atukura, hari n'abandi baturage baje kuhashaka serivisi.

Abaturage bambaye amataburiya n'abandi bambaye imyenda isanzwe, bari imbere y'inzu yanditse ngo Girubuzima, n'ikigo gitanga ubuvuzi bw'ibanze ndetse gifasha abaturage mu kwivuza kwabo kwa buri munsi.

Inzu nziza, ifite irangi ry'ubururu, isakajwe n'amabati y'ubururu ndetse n' ivuriro rifasha abantu kuza kwivuza, batiriwe birukanka ndetse batiriwe bajarajara.

Inyubako nziza imeze neza yanditseho girubuzima, ifite ibara ry'ubururu isakajwe n'amabati atukura kiragaragara nkaho ari ikigo gishinzwe ubuvuzi ndetse gifasha abaturage kwivuriza hafi batarinze bajya kure.